Abana benshi bagiye batandukanye, bakaba bashize ibiganza ahantu hamwe. Hirya yabo hakaba hari ibiti, bikaba hari imbuga igiye itandukanye.

Abagore batatu bakaba bari kumwe n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba yiteze igitambaro mu mutwe aho ari kugenda abasuzuma, bose bakaba bicaye imbere yabo hakaba hari imbuga irimo jaride.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru akaba ari kumwe n'undi mugore wicaye uteruye umwana, uwo mugore wambaye itaburiya akaba atamitse umwana uteruwe bebero.

Umugore wifashe mu gatuza, akaba afite mikoro y'umukara ndetse akaba yambaye isaha, uwo mugore akaba ari umuzungu. Inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho amabara agiye atandukanye ndetse n'ibara ry'ubururu ryanditseho Unicef mu mabara y'umweru.

Umugore uri kuri robine, aho imbere ye hari indobo ifite ibara ry'umukara, akaba ari umugore uteruye umwana, inyuma ye hakaba hari ibiti byinshi ndetse hakaba hari n'imbuga.

Umugabo uhagaze imbere y'inzu, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, akaba yambaye ipantaro yumukara, inkweto z'umukara, inyuma yaho hakaba hari inzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umugore wasetse wambaye ijire y'umuhondo, inyuma ye hakaba ari etajeri irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amasositomate, ama bulubandi, hakaba harimo na sositomate zimanitse.

Abana babiri bicaye harimo umugore umwe wambaye ikanzu y'ubururu, akaba yiteze igitambaro ku ijosi cy'umutuku, ndetse akaba yanacyishize ku munwa, akaba ari kumwe n'undi mugore umwe wamufashe wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara werurutse, akaba asutse, bose bakaba bicaye ku dutebe tw'ibiti.

Umukobwa ugaragara igice cyo hejuru, akaba yambaye ubusa hejuru ndetse akaba afite esume y'umweru ku rutugu, aho ari kunyuza akagozi mu menyo ye, akaba ari akagozi gafite ibara ryera.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, akaba agaragara igice cyo hejuru gusa umutwe ukaba utagaragara wese, akaba ari kwikura imyanda mu menyo yifashishije agakoresho kabugenewe gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'akagozi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afite ubwanwa bufite ibara ry'umweru, akaba afite inkoni mu kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye impeta ndetse akaba ari kumwe n'umugore wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru, mo imbere akaba bari mu nzu ifite ibara ry'umweru.

Ni babiri, umwe akaba yambaye ishati ya buresiyeiri, undi akaba yambaye ishati y'icyatsi irimo uturongo twera, akaba umwe yicaye ndetse undi akaba amuhagaze impande, bose bakaba bagaragara igice.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu, akaba ari guha umugore wundi wicaye mu ntebe ibinini, uwo mugore wicaye mu ntebe akaba afite ikirahure kirimo amazi, imbere yabo hakaba hariho imeza.

Parafu y'umweru ikaba iriho amatara y'umweru, ikaba ifite amakaro y'umweru ndetse n'inkuta z'umweru, akaba ari inzu ifite koridoro ebyiri gusa ikaba irimo n'amarido agenda atandukanya ibyumba, buri cyumba kikaba kirimo igitanda gifite ibara ryera gusa kigaragara igice.

Inzu nini ifite ibirahure akaba ari inzu igeretse, mu gipangu mo imbere hakaba harimo imodoka ndetse n'akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo inyuma y'inzu, inyuma y'igipangu hakaba hari icyapa kigaragaza icyo iyo nzu ikora, akaba ari cyanditseho hosipito n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ikaba yanditseho Island geriatric, bikaba biri mu magambo afite ibara ry'umukara wererutse, imbere hakaba hari abantu gusa bagaragara imitwe na yo itagaragara neza.

Gifite ibara ry'umweru kikaba kirimo igitanda cy'umukara ndetse n'imashini yifashishwa kwa muganga bavura, hakaba harimo n'irido rifite ibara rya kaki.

Inzu yubakishijwe amatafari yamonyo ikaba ifite imiryango ndetse n'inzugi bifite ibara ry'umweru, ikaba ifite ibirahure bibonerana hejuru hakaba hariho icyapa kinini gifite ibara ry'umweru kiroho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ifite ibara rya ruje borudo, akaba ifite amadirishya abiri y'umukara, hirya naho hakaba hari indi nzu, hagati y'izo nzu ebyiri, hakaba hari itente ifite ibara ry'umweru. Inyuma y'izo nzu uko ari ebyiri, hakaba hari abaturage benshi barimo abagabo ndetse n'abagore.

Inyubako nini, ifite mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakaba harimo amagare ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gufasha umuntu mu kuba yazana icyuya

Inzu ifite ibara ry'umweru ikaba irimo ameza ndetse n'utuetajeri turimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ku meza hakaba hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, imbere yayo meza hakaba hicaye abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse hakaba hari n'abahagaze bambaye amataburiya y'umweru, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Icyumba kirimo umurwayi, kikaba kiriho igitanda gitoya gifite ibara ry'umweru hakaba haryamyeho umugore umwe ndetse hejuru ye hakaba hari undi mugore wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru wambaye n'amarinete, ku rundi ruhande hakaba hari undi muntu gusa utagaragara neza.

Umugore wambaye isengeri, akaba afite poshete ya terefone ku kuboko, akaba ari kureba imbere, akaba ari umugore w'umwirabura wambaye na kuteri z'umweru imbere hakaba hagaragara ibizi.

Umugabo uri gukora siporo, wambaye ikabutura y'umukara akaba yambaye n'inkweto z'umweru, akaba ari gukora siporo ndetse akaba ari mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya siporo.

Utagaragara wese igice cy'umutwe, akaba agaragara igice cyo hejuru, umutwe utarimo, akaba afite agacupa gafite ibara ry'ubururu gusa kabonerana, karimo amazi.

Umwirabura wambaye umupira w'ubururu akaba, agaragara igice ndetse akaba ari kunywa amazi, akaba ateruye icupa mu kuboko kw'iburyo akaba ari umugabo utagaragara umutwe wose umutwe ukaba ugaragara igice.

Kirimo amazi ndetse hakaba hari n'andi ari kwisukamo, akaba ari amazi abonerana akaba ikirahuri na cyo kidafite ibara, akaba ari ikirahure kibonerana giteretse.

Isengeri y'umukara, kora y'umukara, akaba ari kunywa amazi, akaba afite poshete y'umukara irimo terefone ku kuboko kw'ibumoso, akaba atagaragara mu maso.

Ibikoresho byinshi, bigiye bitandukanye, bikaba bigiye bifite amabara atandukanye, bikaba ari ibikoresho bikora mu buryo bugiye butandukanye, aho harimo ibimeze nk'amarobo, hakaba harimo n'ibindi bikora indi mirimo igiye itandukanye.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanya, hakaba hari imiti iri mu dukopo ndetse mu bikarito, hakaba hari n'iri mu macupa ndetse n'uducupa dutoya. Akaba ari imiti ifite amabara atandukanye, aho hari uw'umweru, uw'umukara.

Ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kikaba kiriho ibinini, kikaba giteretse hasi hari ibara ry'umweru, akaba aricyo kigaragara cyonyine ndetse n'ibyo binini.

CM Akagera Medicines akaba ari amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, akaba yanditse ahantu hari ibara ry'umweru gusa gusa. i inyuma akaba nta kindi kintu kigaragara.

Umugabo w'umwirabura akaba ari mu biti, akaba atagaragara wese usibye umutwe ndetse n'ibiganza biri kugaragara bikaba byafashe ikibabi ahari hakaba hari ibibabi by'icyatsi.